Ndabona abantu bicaye mu cyumba k'inama abagabo bashyitse hirya ndabona uriya mugabo wambaye ikote yahoze ari uhagarariye u Rwanda muri repubulika iharanira demukarasi ya kongo.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Abagabo bambariye inama baricaye bari gukurikira inama. Ni benshi cyane bambaye imyenda itandukanye mu mabara atandukanye bari mucyumba k'inama.

Umugore ari mu nama n'abandi bantu yambaye hejuru umwenda w'umuhondo abandi baduhaye umugongo bambaye imyenda isa n'umutuku irange ry'icunga umukara n'ubururu.

Aba ni abayobozi bari mu nama. Hari umwe wambaye imyenda y'igipolisi ufite n'ibendera ryabo ku kuboko kw'ibumoso, afite n'ibirango by'umupolisi mukuru, n'abandi bagabo batatu umwe muri bo afite mudasobwa.

Abasore baricaye mu cyumba cy'inama bambaye kimwe bose bambaye imipira y'ubururu, gusa baratandukanye abagaragara ni batanu, bafite n'ibikombe imbere ya bo bari mu inama.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Abantu baricaye, ku ntebe y'umukara ,imbere yabo har' ameza manini cyane , bari gukurikira inama , har' umugabo ur' imbere uri kubigisha bari kunyw' amazi n'ibindi binyobwa bidasindisha.

Aba bagabo buri mu nama, bambaye imyenda itandukanye, n'ingofero y'abisilamu n'imyenda yabo, bari imbere ya mudasobwa, bari kuganira bayirebamo.

Abakozi b'ikigo nyarwanda y'imiyoborere yitwa Arajibi, barateranye bari kumwe n'abandi, hari abagore n'abagabo, bambaye imyenda itandukanye, bafite icyapa k'ikirangantego cyabo.

Hano hari umugabo uri mu nama yambaye amadarubindi yambaye imyenda y'umukara yijimye mo imbere yambaye ishati y'umweru inyuma ye handitse imvesiti ini Rwanda.

Ibyuma bikoreshwa mu mashanyarazi bigaragaza aho biteretse, bizwi nka "hotetansiyo" ni ibimenyetso bigaragariza buri muntu wese ko aho hantu hari danje agomba kutahegera.

Umuntu w'umugabo uhagaze imbere y'iduka yambaye imyenda ifite amabara menshi cyane arikigina n'umukara, iruhande handitseho inyuguti nyinshi cyane ziri kwamamaza ibikorwa bye.

Imodoka irahagaze iri ku muhanda, iruhande hari amazu y'ubucuruzi, hari abagabo babiri bari gutambuka, umwe yambaye umwenda wo hejuru y'umweru undi yambaye uw'ubururu, hari ipikipiki ihagaze kuruhande ifite ibara ry'umutuku n'umukara.

Uyu ni umunara w'ikigo cy'itumanaho, gifite ibara ry'umweru n'umutuku. Ndabona abadamu babiri bari kugica ku ruhande.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, babiri bari imbere hano bafite mudasobwa bapfutse umunwa bambaye udupfukamunwa ubanza yambaye ishati y'ubururu undi yambaye ikoti ry'ikigina inyuma ye hari umwana w'umukobwa.

Hano hari umugabo ushyitse wambaye umupira w'icyatsi, handitseho inyuma umuhondo, ahagaze imbere y'umudamu ari kumushakaho ubufasha, umudamu ari kumureba.

Uyu ni umunara wimwe wibigo by' itumanaho hano mu Rwanda, ni umunara muremure urubatse nk' ibyumba hirya ndi kubona amazu yubatse n' amatafari ahiye.

Hano ni mu mujyi wa Kigali rwagati, imbere hiryaha ndikubona ikigo cy'imari twita beka ahantu kuhande ndahabona inzu igeretse yubucuruzi, hano kuri uyu muhanda hari ahantu abantu bakunda kuruhukira bakorera n'ubukerarugendo.

Umunara w'amashanyarazi muremure cyane ufite n'insinga z'amashanyarazi. Uwo munara uri ahantu hameze nk'icyaro mu misozi miremire ni umunara utanga amashanyarazi.

Umunara w'amashanyarazi, inkingi y'ibyuma, bifite n'imigozi miremire cyane, biri mu rugo rw'umuntu, kandi urugo ruzitiye n'inkingi yubatse mu matafari ahiye,...

Ibinyabiziga bitandukanye, hari ibanza imbere yanjye niy'umweru, hakurikiraho iy'umukara, n'indi hirya n'umutuku ujimije, iparitse ahantu. Imbere yaho har'igiti kiziritseho imigozi y'amashanyarazi.

Hano ndabona icyuma kimanitse, umunara muremure ujyana insinga z'umuriro mu ngo z'abantu. Inyuma y'aho hari igiti cya voka cy'imbuto yitwaa voka, iruhande ndabona amasakaro afite ibara ry'cyatsi.

Hano ni kwa muganga, mbonye umugabo iburyo yambaye impuzankano yakiganga yambaye n'amadarubindi yambaye imyenda y'ubururu iganje cyane. Hagati hari umubyeyi uhetse n'abandi babyeyi babiri bari iruhande rwe.

Hano ndabona imbangukira gutabara, iri mu bitaro by'igisirikare i Kanombe, no hirya hari imodoka nayo y'umweru. Ni mu masaha ya nimugoroba, zose ziraparitse.

Hano ni ku muhanda munini wa kaburimbo, ni mu karere ka Huye, turi kubona icyapa cyitwa sehashibe, ni ikigo cya kaminuza cy'ubuvuzi, kiba mu ntara y'amajyepfo.

Iyi ni imbangukiragutabara ihagaze ifite ibara ry' umweru n' umukara n' umutuku bisanzwe irahagaze yiteguye ko yatabara umuntu.

Uyu ni umugabo witwa Bagosora wakoze itsembatsemba mu Rwanda aho ngaho arafashwe n'abashinzwe umutekano arusha, irahi, irahi mu buhorandi.

Uyu n'umudamu n'umushinjacyaha, ari kurahira afashe ibendera ry'igihugu. Yambaye n'imyenda yabo yitwa toje, n'ingofero y'umukara n'umuhondo. Azamuye ikiganza cy'iburyo, ari kurahira gukora inshingano ze.

Aha n'ihuriro ry'abacamanza. Hari abacamanza, abashinjabyaha, hariho n'amabendera y'igihugu cyacu.

Hari umugabo uri mu maboko y'ubutabera hano arikumwe n'abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano polisi nyarwanda baramufashe barimo kumujyana.

Izi ni imfungwa, ni imfungwa ziri kuburana mu rukiko nyarwanda twitaga gacaca.

Umugabo arahagaze, ari kwifotoza, yambaye imyenda y'abacamanza, y'ibara ry'umutuku n'icunga, harimo n'umukara, harimo n'umweru, yambaye amadarubindi, umugabo w'igikara kandi uri kumwenyura.

Ikigo cyaho abashinzwe umutekano bitwa aba polisi, ni ikigo cy'ubuzima n'ivuriro ryabo ariko rifasha abatura Rwanda.

Iki ni icyuma gifasha abantu kuzimya umuriro, inkongi, gikunda kwifashishwa ahateraniye abantu benshi, umurizo wayo ufite ibara ry'umukara, kimanitse ku gikuta.

Aroni yarahira irya nyakubahwa perezida wa repubulika yu u Rwanda Paul Kagame i ruhande rwe hari umufasha we nyakubahwa Jeannette Kagame yambaye imishanana y'ubururu n'umukara bari imbere ya y'umukuru w'urukiko w'ikirenga ni ni mumbaga y'abanyarwanda bose.

Iyi ni inteko ishinga amategeko nyarwanda, hagati hari umuyobozi mukuru w'inteko umutwe w'abadepite n'abandi babungirije : abadamu, hirya iburyo hari n'umugabo.

Nyakubahwa umukuru w'igihugu, Paul Kagame. Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ari kumwe n'abamufasha mu nshingano ze. Ndabona minisitiri w'intebe, ndabona uwahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga, ndabona n'abandi bayobozi benshi cyane.

Aba ni abayobozi bari mu nteko, hari umudamu wambaye amadarubndi wakenyeye kinyarwanda, hirya hari umugabo wambaye amadarubindi wambaye amadarubindi wambaye n'impuzankano ya kigabo.

Uyu ni umwe mu bagabo biyamamazaga kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hano bari gutanga ibitekerezo bye yambaye imyenda ifite irangiye ibara ry'ubururu umutuku n'umweru arire imbere ya mudasobwa abanyamakuru bari ukumutega amatwi

Iki ni ikirangantego kitwa dalufa umurinzi, ifite ishusho y'ibiganza bibiri by'ibumoso, bishigatiye izuba, haganjemo ibara ry'icyatsi.

Imodoka nto iri k'umuhanda ikinyabiziga iri ku muhanda iri kumanuka iburyo hari n'ikirango ifiti uburenganzira bwo kwambuka uwo murongo w'umuhondo hagati hari ibiti bigabanye imihanda izamuka n'impanuka.

Hano ni ku muhanda. Ndabona abantu bari kugendera n'amaguru n'ibinyabiziga. Hari ipikipiki iri kumanuka, n'indi iri kuzamuka, n'indi modoka y'umukara, na yo iri kumanuka.

Hano ni ku muhanda, mu muhanda wa kaburimbo ama modoka ari kugenda, hano ku muhanda hari imodoka y'umweru , imbera y'inzu y'umweru hakaba hari n'indi nini kuzirenza y'ubururu imbere yawe. Iruhande narwo hari utwaye ipikipiki .

Imodoka y'umweru itwaye imizigo, inyuma hari imizigo ariko hari n'imbaho ifatiye imizigo, hirya hari ibihuru umuhanda iburyo rugenda hirya ndabona aho umuntu wambaye imyenda y'umutuku, ahetse n'kintu n'igikapu cy'ubururu mu ntoki.

Imodoka eshatu zitwara abagenzi, imwe ifite icyapa igaragaza ko iyo ari modoka itwara abagenzi yose ni umweru, n'icyo kirangantego kiri kuvuga ko iyo modoka itwara abagenzi, ni iryo rangi ry'umuhondo. Imodoka zose ziraparitse.

Umukobwa usa neza uhagaze wambaye ikote n'ishati y'umweru mu maso n'inzobe afite imisatsi mu ntoki afitemo akantu kameze nk'impano bamuhaye, mbere ye hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'igifaransa.

Haragaragara imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, n'ibara ry'umuhondo, undi ku mpande ndi mu modoka ifite ibara ry'umutuku, n'abandi bagenzi bari ku ipikipiki bari muri gahunda zabo.

Ndabona ibinyabiziga biri munzira, hari imodoka nini rukururana hari n'undi utwaye igari ni ku muhanda wa kaburimbo, hirya hari umunyamaguru nawe uri kugenda.

Imodoka itwaye imizigo ipakiye amakara ibicanwa biri mu nzira bivuga ingemura nta imodokadoka ifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Hano ni mumugi rwagati ahitwa nko kwa Makuza, imbere hariya ndi kureba inzu aho simba ikorera hano ni ahantu bakunda kuruhukira, bafata akayaga.

Ikigo cy'umukara hari abakinnyi batatu bari mu kibuga, bifashe neza umwe ntabwo yambaye nk'abandi, abandi bambaye imikara n'umweru, abundi bambaye icyasti n'igikara.

Iki ni icyapa kiba kiri ku muhanda kiyobora abatwara ibinyabiziga n'abanyamaguru ukuntu bagomba kugenda ku muhanda ahatukuye ni ukuntu agomba guhagarara ah'icyatsi niko agomba gukomeza urugendo.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda cyerekeza ,kibwira abagenzi ahantu bagomba guca, icyapa kizitiwe n'ibara ry'umutuku rikwereka ko umugenzi agomba gutambuka ahabugenewe.

Iki ni icyapa cyerekezo cy'umuhondo irikwereka ko abagenzi bagomba kugenda imbere gusa, iki cyapa gifite ibara ry'umuhondo, n'umutuku umwambi urimo ureka icyerekezo uwo mwambi uri mu ibara ry'umukara.

Iki ni cyapa kiba ku muhanda kizengurutswe n'ibara ry'umutuku canditsemo inyuguti ari mirongo ine bishatse kuvuga ko umugenzi cyangwa ikinyabiziga yagenda ntago ushobora kurenza ibirometero mirongo ine.

Urabona umuntu utwaye ipikipiki, ari ku muhanda wubakishije amabuye yambaye umwenda y'umukara n'ikintu bambara ku mutwe biririnda impanuka.

Mbonye amazu y'ahitwa Nyagatovu. Amazu menshi cyane imwe ku ruhande y'indi. Ni ahitwa Nyagatovu.

Hano ni umujyi wa Kigali umurenge wa Kimironko ndabona amazu amazu yabo afite amabara atandukanye amazu meza imwe igaragara ibumoso igeretse.

Iyi ni inzu igeretse, ifite amabara atandukanye, amabara ari kuganza cyane ni umweru n'ubururu, hari umugabo uhagaze ku ruhande, inzu itararangira kubakwa.

Ishusho nziza cyane y'amazu. Amazu ageretse bifite amabara y'umuhondo n'umukara no hirya hari inzu ifite amabati y'ubururu.

Inyubako ituye i Remera, yitwa Hilitopu, ni ahantu bacumbikira abantu, babishyura ku munsi, ifite ibara ry'ikigina, iteye n'igipangu gikozwe mu byuma.

Inzu, inzu igeretse isakajwe amabati y'umukara noneho urugi rwayo rufite ibara ry'ubururu bwijimye imbere yaho ni umuhanda w'igitaka.

Inzu igeretse ifite ibara ry'umweru n'icyatsi, irakaye ifite n'igipangu cy'umukara ifite n'ubusitani.

Inzu iri mu gipangu ifite iriya nkoko y'itumana hejuru hari n'ibigega by'amazi byinshi cyane.

Amazu menshi ageretse, azitiye n'ibyuma bitukura, amazu ari hafi y'umuhanda, inzu ya mbere ifite ibara ry'umweru, iri hirya ifite ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icunga.

Uyu ni umuhanda mugari, cyane cyane mu mujyi wa kigali, umuhanda ushashe, hirya hari imodoka ishaka kuza, hagati hateye indabo n'ibimera, harimo amatara amurikira abagenzi mu ijoro.

Uyu ni umuhanda umuhandi urarambuye urashyashe nta muntu uri ku muhanda hari icyapa cyamamaza cy'umuhondo n'ubururu, umuhanda uri mu mu biti, hirya ndabona ishyamba, hino hari icyapa hari ibiti biteye neza, umhaunda, urasa neza.

Ndabona ibinyabiziga twita ipikipiki irimo kumanuka bigeze aho abagenzi bambukira umuhanda indi nayo iri inyuma ye nayo iri kumanuka.

Umuhanda w'itaka, iruhande hari ruhurura, umuhanda utameze neza. Hirya ndabona ibihuru, hari igikuta kirekire. Umuhanda ntabwo umeze neza rwose.